Umugore ufite imisatsi miremire, uhambiriye udutambaro mu musatsi, ku mpande z'umutwe we haziritseho uduti. Ateye umugongo undi mugore na we ufite umutwe umeze nk'uwe. Hirya ibumoso hari undi wambaye umwenda w'umukara urimo imirongo y'umweru, afite ijosi rirerire n'umusatsi mwinshi.

Imyambi ibiri irambitse iteganye, umwambi umwe ikibuno cyawo gifite amabara y'umukara n'umutuku naho ndi ikibuno cyawo n'umweru, umwe ufite inyuma y'ikibuno hari akabara k'umweru naho ahandi hari akabara k'umutuku. Umwambi umwe ufite umutwe usongoje naho undi ntusongoje.

Umuntu wambaye isaha mu kuboko kw'iburyo n'umupira w'amaboko maremare w'ubururu. Afite mu kiganza cye cy'iburyo, imashini yifashishwa mu gupima ingufu z'umuriro. Kuri iyo mashini acometseho imigozi ibiri umwe w'umukara nundi w'umutuku. Muri ya migozi ari kugerageza gucomeka imitwe yayo mu byuma by'amashanyarazi.